Ibigo by'amashuri y'inshuke, ni byiza ko bajya bashaka ahantu heza abana bajya bajya kuruhukira, wenda nko mu byicungo, kugira ngo abo bana batazigera barambirwa kwiga, kandi aribwo buzima bwiza bwabo bw'ejo hazaza.

Amarerero y'abana batoya, ni byiza ko haba harimo uburyo bisanzuramo baka nidagadura, bagakora siporo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, haba kuba bafite imipira yo gukina, ndetse n'ibindi bibafasha kwidagadura.

Igikapu cyo ku mugongo umukondo n'utunyugunyugu tubiri, udufuka tubiri duto, imifuka ibiri minini ifite imashini.

Abana bato babiri, bashushanyije indabyo bicaye ku ntebe, zigamirwa bashushanyiriza ku meza.

Ibigo by'amashuri y'inshuke ni byiza ko biba bifite ibipupe, bishobora gufasha abana baje kuhigira kumva bisanzuye, bishimye kugira ngo batazazinukwa ishuri, bakanga ishuri bakiri bato. Kuko ibyo byazabagiraho ingaruka mu gihe bazaba bamaze gukura.

Mu mashuri y'abana bato b'inshuke ni byiza ko haba hari ibitabo bihari abana bashobora kujya kureba bagafata bakarebamo inkuru zishushanyije kugira ngo barusheho gukomeza kugira amatsiko, uko bagenda bakura bagenda bishimira gusoma ibitabo byo mu masomero kugira babashe kumenya inkuru z'ibirimo.

Abana bato biga mu kiburamwaka bajya kwiga bakajya mu byicungo, ibyo bikabagira umumaro mu buryo bw'imitekerereze kuko baza kwiga babikunze banahakurikiye ibyo byicungo bigatuma biga bashyizeho umwete kuko badashobora gusiba ishuri.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza, ni iby'ingenzi ko bakomeza kujya biga imibare bashyizemo imbaraga kuko imibare izabagirira akamaro ko kubaho, batekereza byagutse, aho gutekereza ku bintu byoroheje gusa.

Ikigo cy'mashuri gisakaje amabati y'ubururu, gisize ibara ry'umweru, ikibuga gikinirwamo basiketi n'abanyeshuri, ahantu abanyeshuri bicara bari kureba basiketi.

Ibigo by'amashuri, bifasha abana bato biga amashuri abanza kubona ubumenyi, aho abantu bakuru babonera akazi ko kwigisha abanyeshuri, abandi bagakora akazi ko gukora isuku mu busitani bukikije ibigo by'amashuri.

Ikirango k'ikigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Rubagabaga. Giherereye mu karere ka Nyagatare. Gitanga ubumenyi ku banyeshuri bakiri bato ndetse n'abakuru kugira ngo babashe kumenya gusoma no kwandika no kuvuga indimi zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kugirira kwigirira umumaro ndetse no kuzagirira Igihugu akamaro.

Kugira ngo haboneke ireme ry'uburezi mu mashuri abanza, ni ngombwa ko abarimu bajya bakoresha ingero zigaragara abana bahora babona buri gihe kugira babasha gusobanukirwa neza ibyo bari kwiga.

Ibikoresho bine bishobora gufasha umunyeshuri kwiga imibare neza. Harimo ibikoresho bibiri bya mpande eshatu. igikoresho kimwe gica umurongo ugororotse hamwe n'ikindi gikoresho cyifashishwa mu gupima amadogere, mu gihe wenda barimo gupima kuruziga. Rwose ibyo bishobora gufasha umunyeshuri kumenya imibare neza mu gihe abikoresheje neza.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'igipangu gikingishejwe porotayi ifite ibara ry'icyatsi, mu kigo harimo igicumbi cyanditseho imigabo n'imigambi y'ikigo cy'ishuri rya Rukomo.

Ibigo by'amashuri byisumbuye bigira uruhare mu gutuma abahigira bubaka ejo habo heza, bagakunda igihugu, bakagira ubumwe, ikinyabupfura ndetse bakaba n'inyangamugayo kandi bakagirira igihugu akamaro ndetse n'abababyaye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, inzu isize irangi ry'umuhondo, abantu bamanuka purize yo gucaniraho umuriro, umureko.

Ikigo cy'ishuri ryisumbuye cyubatse neza mu buryo bugaragara cyubakishije amatafari, gisakaje amabati meza, ibyo bikaba bituma abanyeshuri baryigiramo babasha kwiga bafite umutekano, na none icyo kigo cy'amashuri kizitiwe n'urugo kandi bishobora gutuma abacyigiramo bafite umutekano wuzuye kuko ntacyabahungabanya.

Ikigo cy'amashuri kigomba kuba gifite ibintu bijya bitandukanye, kigomba kuba cyubatse neza, gikingishije inzugi n'amadirishya, kirimo ibirahure kandi gisakaje amabati meza kugira ngo imvura nigwa itazanyagira abanyeshuri, kandi hakaba hari n'ikigega kijyamo amazi kugira ngo bakomeze kubungabunga isuku yabo.

Abanyeshuri iyo bagiye ku ishuri mbere y'uko batangira amasomo babanza kujya ku murongo bakaririmba indirimbo yubahiriza igihugu ariko abanyeshuri biga amashuri yisumbuye baba bambaye neza amapantaro cyangwa amajipo meza afite isuku amashati y'umweru bambaye inkweto zifunze kandi baniyogoshesheje bigaragara neza ko ari abanyeshuri biteguye kwiga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ikibaho cyandikwaho abanyeshuri bari kwiga, intebe zicarwaho n'abanyeshuri.

Umunyeshuri wambaye agapira k'ubururu, ijiri ya kuruwaruje y'icyatsi n'umweru; abakobwa batatu bab'anyeshuri bari ku murongo bambaye imipira y'ubururu ibyatsi ibiti.

Ikigo cy'amashuri cya etaje, ubusitani bwiza, ikigega kijyamo amazi.

Abanyeshuri bize imyuga bakoze intebe zirimo udushya zisa ubururu.

Intebe nziza zikorwa n'abantu bize kuzikora ariko mu mashuri y'imyuga. Izo ntebe rero zisangwa mu bigo by'amashuri yisumbuye hamwe no muri za kaminuza. Aho usanga abantu bazicaraho kugira ngo babashe gukurikirana amasomo neza.

Amakaminuza hamwe n'amashuri yigisha imyuga, afasha urubyiruko kuba babaho bafite ubuzima bwiza, basobanutse kubera ko baba barize basobanukiwe ibintu byinshi, bishobora kuba byakangi ubuzima bwabo kandi nanone baba bazi n'ibyabateza imbere.